Biragaragara ko aba ari abantu bashobora kuba barimo kuroba ,aho bamwe bafite ibintu bimeze nk'inshundura bashobora kuba aribyo birimo birafata amafi, aho bagenzi babo bicaye hejuru babitegereza bari bareba ko hari icyo bari bukuremo muri aya mazi, kuko bashobora kuba bari bubonemo amafi.